Abantu benshi bicaye mu cyumba k'inama baje mu nama bari kwiga ku bintu bitandukanye, imbere yabo ku meza hariho amazi.

Abantu bari mu nama bicaye imbere y'ameza, ateretseho amacupa y'amazi bagenda banywa igihe bumva bageze icyaka, bari kuganira ku nsanganyamatsiko bateguye.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abantu benshi bafite amazi imbere yabo ateretse ku meza, harimo abasirikare ndetse hari n'umupolisi uhagaze.

Abantu biganjemo abakiri bato, abagabo n'abagore, bicaye mu ntebe zifite amaguru y'ibyuma, abegereye ameza imbere yabo hariho uducupa tw'amazi.

Abantu, abagore ndetse n'abagabo, bamwe barabyibushye bariye neza, barahagaze mu mucaca mwiza, wagira ngo barimo barakoma amashyi, bishimira ibyo barimo.

Abantu barimo abagore n'abagabo bafite amazi imbere yabo ku meza bari mu nama, imbere hari umugabo ufite indangururamajwi uri kubabwira imbwirwaruhame.

Umunyeshuri wambaye impuzankano na baji, afashe indangururamajwi mu ntoki arahagaze n'agakayi mu ntoki, arimo aratanga igitekerezo ke mu nama ahagarariyemo bagenzi be.

Umugabo biragaragara ko yariye neza afite indangururamajwi arimo aravuga, bahuriye mu nama y'Akarere ka Nyagatare yita ku kwiga ku bintu byinshi.

Umugabo wambaye imyenda y'imikara, yambaye n'amarinete afite indangururamajwi mu ntoki arimo aravuga imbwirwaruhame.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe, inyuma ya hari icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo inama ya komite mpuzabikorwa y'akarere ka Nyagatare umuturage ku isonga serivisi inogeye bose.

Abantu bicaye abagore n'abagabo, imbere yabo ku meza hagiye hateretseho uducupa dutoya tw'amazi yo kunywa, bari mu nama, biragaragara ko bakurikiye umuntu uri kubabwira.

Abantu benshi barahagaze barimo barumva ibyo uyu mudamu bigaragara ko yariye neza arimo arababwira, inyuma yabo hari amamodoka ahaparitse.

Abantu bateraniye hamwe baje mu nama, hari umugore ufite indangururamajwi, arahagaze arimo aratanga igitekerezo ke.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara, biragaragara ko ari inzobe. Arimo aritegereza imbere ye. Ku meza hari uducupa twamazi. Yicaye mu ntebe zifite ibara ry'icyatsi.

Abakobwa bakiri batoya bambaye imikenyero yiganjemo amabara y'umweru barimo barakoma amashyi harimo uwambaye imikenyero y'umukara n'agasengeri k'umukara ufite indangururamajwi.

Iki ni ikibindi gikozwe mu ibumba, aho kugira ngo gikorwe babanza bakagicanira, bashyizemo imiseke banywesha inzoga y'urwagwa.

Abategarugori bateze amaboko bambaye imikenyero y'imyeru n'utuntu baziritse mu mutwe, barimo barabyina basusurutsa abahari.

Abakobwa beza cyane b'inzobe barimo baraseka neza, bambaye imyambaro y'umweru, bafite n'ibisabo mu ntoki, bari bari mu bukwe.

Abantu bambaye amajire ariho amagambo agaragaza ikigo cy'Igihugu gishinzwe kwita ku muriro mu Rwanda, barimo barakurura insinga z'amashanyarazi.

Ibikoresho bine bikurura imirasire y'izuba bikayihinduramo umuriro w'amashanyarazi bityo umuntu akaba yacana.

Uruganda rw'amashanyarazi, hari ibyuma byinshi biriho insinga zivana umuriro aho ngaho ziwujyana hirya no hino mu gihugu no mu baturage.

Ipopu ziriho insinga z'amashanyarazi, harimo abantu babiri baryuriye, barimo barakanika ayo mashanyarazi kugira ngo agere mu baturage.

Ahantu hakorerwa ingufu zikomoka ku muriro w'amashanyarazi ari wo ucanwa mu baturage, harimo ibyuma byinshi ndetse n'ibindi bibika umuriro.

Umudamu wambaye itaburiya isa ubururu ariko bigaragara ko ishaje, ni ushinzwe gukora umuriro w'amashanyarazi, ari kuri mubazi bashyiramo imibare.

Abantu bambaye amataburiya y'ubururu bwijimye ajya gusa umukara n'ingofero z'imihondo zibarinda imitwe, hari ibyo barimo barakanika biri ku meza.

Kwihangira umurimo ni byiza kuko bituma ubona amafaranga ukaba utaburara. Uyu mukobwa yihangiye umurimo akora ahantu ho kudodera imyenda irimo ibitenge afite n'imashini eshatu.

Umugabo wambaye ingofero y'ubwirinzi iri mu mabara y'umuhondo wigikara, arimo arakanika amashanyarazi kugira ngo abantu babashe kongera gucana bisa nkaho wari wapfuye.

Ahantu hari amazu menshi higanjemo asize irangi ry'umweru harimo n'amapoto y'amashanyarazi ndetse n'insinga zijyana umuriro muri izo ngo.

Aha ni ku rugomero rw'amashanyarazi, hari ibyumba byinshi. Hano niho insinga zose ziba zikura umuriro zikawujyana mu baturage nabo bagacana.

Ahantu heza hari ibimera bitandukanye byaba ibyimejeje ndetse n'ibyahinzwe n'abaturage, hari n'amapironi ari ho insinga zitwara umuriro.

Umugabo ushinzwe gukora insinga z'amashanyarazi, yuriye ipoto akoresheje urwego rurerure, ari gupfundika insinga kugirango ngo abaturage bakomeze gucana.

Imodoka y' imbangukiragutabara, ivuye mu bitaro gufata umurwayi, mu bitaro by'Akarere ka Nyagatare, biherereye mu Ntara y'Iburasirazuba, muri ako karere.

Umuhanda biragaragara ko atari mwiza habe na gato. Urimo imiferege yagiye icibwa naho imodoka zagiye zinyuza amapine, hano birumvikana ko imihanda yose mu Rwanda itameze kimwe.

Aha ni ahantu habera ibikorwa byo kwita ku bana. Ku rwinjiriro hari amagambo ahanditse hejuru avuga ngo urugo mbonezamikurire y'abana bato Karama ni mu Karere ka Nyagatare.

Abantu benshi biganjemo abakiri bato bari ahantu bakorera siporo cyane cyane bahakinira umupira w'amaguru, ni muri sitade.

Ibyuma bisize irangi ry'umweru n'umutuku, hari amamodoka atatu, umukara n'umweru hari n'umuntu kandi ni ku muhanda wa kaburimbo ukiri mushya.

Iyi ni inyubako ifite ibirahure, inzugi z'ubururu, isize n'amarange. Ni inyubako y'ibiro by'Umudugudu wa Gakoma.

Imodoka ihagaze ahantu hateye sima irimo ibara ry'umutuku, inyuma yayo hari umuntu utwaye igare n'inyuma ye hari abandi bantu.

Inyubako nziza, bigaragara ko ikoreramo abantu batandukanye, harimo izubatse ziteye amarangi y'umweru ndetse hari n'urukuta rusize irangi, rijya gusa nk'ivu.

Inyubako isakaje amabati atukura, bigaragara ko ikuze ari iya kera, bikaba ari ibiro by'Akagari ka Kimbogo byubatse neza.

Ahantu heza cyane hejuru hari ikirere gifite amabara y'umweru n'ubururu bwijimye, hasi hari umudamu ufite umupira mu ntoki mu kwaha, arimo aragendera mu kayira gahari.

Abantu barimo barava mu kindi gihugu, ni Igihugu gituranyi cy'u Rwanda, cyitwa Uganda hari icyapa cyanditseho amagambo yifuriza urugendo ruhire ababa bavuye cyangwa bajya muri icyo gihugu.

Ku mupaka w'Igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda. Hari icyapa cyanditseho ngo ikaze mu Rwanda hari n'abantu barimo baraturuka hirya.

Inyubako isize amarange y'umweru isakaje amabati y'ubururu, hari abantu barimo baragana muri iyo nyubako hari kandi inzu yukishije amatafari ahiye.

Abantu bari muri sitade barahagaze barishimye baje kureba umupira ukinwa n'amakipe bateganyije, hari amabara ari mu idarapo ry'igihugu cyacu.

Ikibuga bakiniramo umupira w'amaguru kizwi nka sitade, harimo abantu benshi ndetse mu kibuga harimo abakinnyi barimo barakina.

Ikiraro cyubatse neza gikoreshejwe ibyuma, kirimo kiranyuramo abantu b'abagore n'abagabo babisikana buri wese agenda ajya mu byo agiyemo.

Iyi ngiyi ni inyubako ya Leta ikorerwamo n'abakozi bayikorera batandukanye, hari ibendera ry'Igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ubusitani bwiza.

Ku mupaka, w'ibihugu bibiri, biherereye mu karere k'iburasirazuba. Ibyo bihugu, ni u Rwanda ndetse na Uganda.

Ababyeyi bari imbere y'inyubako y'ubuvuzi, bambaye imyenda itandukanye n'amabara atandukanye .Kuri iyo nzu hari icyapa kiriho ikirangantego k'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu b'abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya y'akazi bari ku bitaro, hari umugabo urimo arabafotora batonze umurongo, hari inzu yanditseho ngo: "Girubuzima".

Icyuma gifite amabara atukura n'umweru, cyanditseho ijambo riri mu mabara y'umweru, avuga ngo hagarara. Hari abantu benshi, hari umwe urimo arababwira.

Inyubako ya Leta nziza yubatse ku buryo bugezweho ariko itageretse isakaje amabati y'ubururu, mu kayira harimo abagabo n'abagore barimo baraturuka kuri iyo nyubako.

Agahanda k'igitaka karimo kariyeri kazitijwe n'ibyuma ku mpande. Harimo haranyuramo igare ririho umuntu w'umugabo.

Ikiraro cyubakishije amabuye mu buryo bwiza kandi bukomeye, hejuru ku muhanda hazitije ibyuma kugira ngo bijye bibasha gutangira imodoka.

Umugabo uri kujya kugera mu zabukuru ufite ururabyo, inyuma ye hakaba hari abandi bantu harimo abasirikare n'abapolisi n'abandi bantu bambaye imyenda itandukanye.

Ushobora kwibaza uti: "Ubundi inama imaze iki?" Inama ituma abantu bungurana ibitekerezo nk'abo bari hano barimo baraganira ku ngingo zitandukanye.

Umusirikare ndetse n'undi mugabo, barimo baraha umukobwa urimo hagati yabo, icyemezo cyemeza ko arangije amasomo runaka mu bintu bitandukanye.

Abantu babadamu, harimo umugabo, ndetse n'umudaso. Bafite, telefone ngendanwa, bamaze guhabwa, kugira ngo, bajye bazifashisha, mu itumanaho.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki arahagaze arimo aratanga imbwirwaruhame.

Abantu biganjemo abakiri bato ariko harimo bamwe bakuze, bafite n'abana, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, hejuru hari ibiti by'amashami.

Abantu benshi, abakuru ndetse n'abato, bicaye ku ntebe, bamwe zikoze mu biti, abandi zikoze muri palastike, abandi bicaye hasi bahurijwe hamwe n'igikorwa cy'inama.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda bereka ibinyabiziga, gishinze mu byatsi, hirya yacyo hari amazu ariko yubatse mu buryo butagezweho.

Icyapa cyanditseho amagambo avuga ko ari ishami rya polisi rikorera mu Karere ka Nyagatare, hirya hari umuhanda wa kaburimbo urimo abantu.

Igicumbi cyanditseho indangagaciro na kirazira byo mu Karere ka Nyagatare, mu Murenge wa Nyagatare, mu kagari ka Barija.

Umuhanda wa kaburimbo ariko bigaragara ko ushaje watangiye kwangirika, ku ruhande hari igiti cy'ururabyo hari n'icyapa, hirya hari akazu gasize amabara y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo akenshi abantu bo mu cyaro ntibaba banawuzi, harimo imodoka y'umweru, ndetse hagati haciyemo umurongo w'umuhanda.

Imodoka ymweru ariko itagaragara neza yose, ifite pulake igizwe n'inyuguti ndetse n'imibare, iparitse ahantu hateye sima y'umukara hirya hari urukuta rw'ibyuma.

Umuntu w'umusore wambaye agapira gafite ibara rijya gu gusa umuhondo n'ipantaro iciye na bodaboda, arimo arurira ku makaro agana mu nzu, yanditseho ikigo gikora ubutwazi bw'abantu cyitwa difera.

Ahaparikwa imodoka hazwi nka gare, harimo imodoka nyinshi n'abantu bicaye ahategererezwa izo modoka, kugira ngo zibatware zibajyane ahantu hirya no hino.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imirongo y'umuhondo igiye icagaguye, bimenyesha ko aho hantu imodoka cyangwa ibinyabiziga byemerewe kunyuranaho.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, haparitse imodoka iri mu ibara ry'umweru, hirya hari amazu bisa nkaho ari mu gasantere.

Abayobozi batandukanye abagabo n'umugore umwe harimo n'umupolisi, bahagaze mu nyubako isize amarangi y'umuhondo.

Abantu bari mu nama harimo abasirikare ndetse n'abapolisi kimwe n'abandi baturage basanzwe, hari uwitwikiye umutaka, bicaye munsi y'igiti kitari kinini cyane.

Umusirikare urimo arifatanya n'abandi mu gukora umuganda ni abantu batatu bafite amasuka yifashishwa bahinga inyuma yabo hirya hari ibiti.

Umupolisi w'umugore wambaye imyenda ya bo arimo arifotoza afite mudasobwa ya renovo imbere ku meza.

Abantu benshi batandukanye abato ndetse n'abakuze harimo umugabo wambaye umupira w'umuhondo, afite isuka mu ntoki barimo barishimye barabyina.

Umumama bigaragara ko yariye neza arabyibushye pe, ni uwo mu kizungu! Ahagaze imbere y'abapolisi arimo arabwira abantu ibintu yabateguriye.

Aba baturage bari mu gikorwa cyo gusukura bita umuganda, bamwe bicaye ku matafari y'ibyondo arikubakishwa inzu.

Abantu bari mu gikorwa cy'umuganda, harimo n'umusirikare, bateruye amabuye, hirya hari igihingwa cy'ibigori.

Abantu bahagaze bameze nk'abarimo barakoma amashyi bishimye bisa nk'aho hari indirimbo bari bateye bagiye kuyibyina bahagurutse ku ntebe.

Umupolisi ukomeye ufite inyenyeri ku bitugu bye, arahagaze afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga, inyuma hari abandi bantu bicaye mu itente.

Abantu b'urubyiruko bambaye imyenda y'imikar, iriho ifoto y'umuntu imbere, wagira ngo bari baje mu gikorwa cyo gutabara.

Hirya hari ibidukikije by'ibiti, hari abantu hino biganjemo urubyiruko, bari bari mu gikorwa cy'umuganda babumba amatafari.

Abadamu babiri umwe wambaye ikanzu nziza wariye neza hari n'undi wambaye na we ikanzu y'umutuku na we ubyibushye, inyuma yabo hari abandi benshi harimo n'abitwikiriye.

Umusirikare ahagaze imbere y'abantu biganjemo abato baba abakobwa n'abahungu harimo abitwikiriye imitaka, afite indangururamajwi iriho akantu gatukura.

Abantu benshi abagabo n'abagore bigaragara ko ari abayobozi batandukanye barimo baragenda, inyuma yabo hari igiti cy'ibyuma kiriho batiri y'amashanyarazi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo imodoka ya polisi, inyuma hari abandi bantu benshi barimo baraza bakurikiye iyo modoka.

Mu kibuga cy'umupira, kirasa neza mu izamu harimo umuzamu, agiye gutera umupira awuhe abakinnyi be.

Aho bagaragaza uburyo amakipe yagiye atsindana mu Murenge Kagame Cup mu bihumbi bibiri makumyabiri na kane, makumyabiri na gatanu, mu kiciro cy'abagore.

Iki ni ikibuga cy'umupira kitubatse ku buryo bugezweho nk'izindi sitade zose, harimo abakinnyi ishobora kuba ari sitade yo mu karere ka Nyagatare yakinirwagaho n'ikipe ya Sonrise.

Umuntu w'umudamu utambaye inkweto wambaye imyenda iri mu ibara ry'umutuku, ari mu myitozo ngororamubiri yitwa karate, imikino njyarugamba.

Mu kibuga cy'umupira gikinirwamo umupira wamaguru, harimo abakinnyi bambaye imyenda ya siporo, iki kibuga giherereye mu karere ka Ngoma.

Abantu benshi biganjemo abakiri bato, b'urubyiruko n'umusirikare bari muri sitade, baje kureba umupira w'amaguru, ni byiza kuko bituma babasha kwiyumvanamo.

Abantu bari mu gikorwa k'imyitozo ngororamubiri mu kibuga ubona gisa neza cyane, bambaye imyenda ya siporo ndetse n'inkweto.

Abakinnyi barimo barirukanka inyuma y'umupira bakinisha amaguru, bahuye bari marushanwa runaka, bari gukinira ahantu hameze neza.

Abagabo batatu bambaye utujire turi mu ibara rijya kuba icyatsi, bafite utubaji ndetse uwo hagati afite umupira.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru ariko kitari cyiza habe na gato, harimo abakinnyi bambaye imyenda yifashishwa mu gukina umupira.

Abantu bari mu gikorwa cya siporo, n'abagabo, harimo n'umugore umwe ariko w'umusifuzi, ahagaze iruhande rw'umupira barakina.

Abantu benshi bicaye muri sitade, harimo umupolisi, abenshi biragaragara ko bakiri bato. Barimo barareba umupira, baruhuka mu bwonko.

Ikinyabiziga cya moto, cyiganjemo amabara y'umukara, giparitse ku ruhande mu muhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'umweru, haraguru y'iyo moto hari inyubako.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kunyuramo umuhungu uhetse ibitoki ku igare, hari umurongo w'umweru uri kuruhande.

Ibiti birebire bifite amashami biri iruhande rw'umuhanda. Mu muhanda hagati harimo ikinyabiziga cya moto gihetse amajerekani menshi.

Umuntu w'umukobwa wambaye ikanzu ijya gusa ubururu bw'ikirere n'agapira k'umukara arimo aravugira kuri telefone, ari kugendera mu kayira k'abanyamaguru.

Inzira y'igitaka ubona ko ikoze neza ariko irimo utwatsi dukeya ku mpande hakaba hari ibyatsi byinshi biragaragara ko idateye imbere cyane kuko nta mapave arimo.

Mu muhanda wa kaburimbo haririmo umuntu w'umukobwa arimo arawambukiranya, hari abamotari baparitse hirya ku ruhande, hari n'inzu zisakaje amabati y'umutuku ziri hirya y'abo bamotari.